Iyo umutekano igihugu kiwufite, uba wuzuye, ugasanga harimo abapolisi, abasirikare, iyo bafite n'ibikoresho k'indege, icyo gihe igihugu kibasha kugira umutekano kuko aho utabarije baragutabara.

Umuco nyarwanda wari ugizwe n'ibintu byinshi cyane cyane wasangaga harimo ibicuba, ibirago, udukongoro byose byabaga byari ibyo hambere ariko nanubu biragenda binaboneka gake gake mu baboshyi.

Igikorwa cy'umuganda kiba kiza, iyo inzego zo hejuru zaje zikifatanya mu buryo bwo kubaka igihugu, turimo gukusanya aho amazi aca, dusibura ibinogo, twubaka igihugu muri rusange.

Ipensi idufasha muri byinshi nk'inaha iyo umuntu ari gukanika nk'amashanyarazi yifashisha ipensi. Mu buryo bwo gushaka imirimo aho amashanyarazi yapfuye cangwa se n'ibikoresho by'igare bimwe muri ibyo, ipensi irabidufasha, turi kubifunga se, turi gukora bimwe byinshi ikadufasha muri byinshi tukabona akazi.

Iyo turi mu nteko y'abaturage， cyangwa twumva ibyo abayobozi bagiye kutubwira， turicara tugatega amatwi，tugatega amatwi abayobozi bakatugira inama， bakatugezaho ibintu by'iterambere， iby'u Rwanda cangwa se ibyo abanyarwanda bateganya kuzageraho mu myaka iri imbere， tukabigirwaho mu nama cyangwa se inteko z'abaturage zateranye.

Mubyifuzo byanjye numva numva ko wenda Imana imfashije nzagenda mundege nkumva uko umunyenga gomu ndege byaba byiza kuko ntari nayigeramo.